Abagabo babiri b'abarobyi bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo uwambaye agapira gafite ibara ry'umutuku n'ubururu bwijimye n'umuhondo, ako gapira kakaba kariho ikirango k'ikipe ikina ku mugabane w'iburarayi, akaba yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, akaba yegeranye n'uwambaye agapira k'icyatsi wambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba afite ifi mu ntoki.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa na kaki akaba yambaye n'inkweto zifite ibara ry'umukara, akaba afite ibase ifite rijya gusa na kaki irimo ibiryo bitunga amafi arikororerwa mu cyuzi kiri imbere yiwe.

Umurima uri mu kabande ukikijwe n'imisozi ibiri iriho ibiti bifite ibara ry'icyatsi, muri uwo hakaba hateyemo icyayi, akaba harimo umugore wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara ndetse akambara n'umufuka w'umweru mu mutwe akaba ahetse igitebo kiboshywe mu migwegwe.

Abantu batandukanye Harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe, bambaye imyenda itandukanye bafite n'ibintu bigiye bitandukanye, harimo umugore wikoreye inkwi ku mutwe we ndetse inyuma akaba ari umugabo wambaye umupira w'umukara, ufite umuhoro mu ntoki, bakaba bari mu kibaya kirimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hirya hakaba hari ibiti bitandukanye.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye hakaba hateyemo ibifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi bifite ibara rijya gusa nk'umuhondo hakaba harimo igiti cy'umwembe kitarakura gifite amababi ari kureba mu byerekezo bitandukanye.

Umurima munini urimo ibiti birebire ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, hakaba harimo itaka rifite ibara rijya gusa kaki hakaba harimo n'ibindi biti byumye bitewe n'izuba.

Ibihingwa bitandukanye bifite amabara atandukanye arimo: umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Hakaba higanjemo imbuto harimo: inyanya, ibitunguru, imineke ndetse n'amacunga ndetse n'izindi mbuto ziribwa, nyuma y'uko umaze gufata ifunguro rya saa sita cyangwa se irya nimugoroba.

Ibihingwa bitandukanye bifite amabara atandukanye, ndetse bikaba biteye bitandukanye harimo, inyanya zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibigori bifite ibara ry'icyatsi biri kumwe, n'amababi yabyo.

Abantu batandukanye harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, harimo umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umuru ririmo ibara ry'umukara, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Akaba afite isuka mu ntoki, akaba yejyeranye n'undi wambaye ingofero ifite ibara ry'uburu wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantarofite ibara ryesa nk'ivu nawe ufite isuka mu ntoki, begeranyeye n'umukobwa wambaye ingofero ifite ibara rijya gusa n'icyatsi ndetse n'umupira ufite ibara ry'ubururu n'ipantaro fite ibara rijya gusa nk'ivu.